Abagabo batatu bagaragara ko bambaye amapingu, ndetse iruhande rwabo hari ikirango cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, bigaragaza ko hari ibyaha bakurikiranyweho.

Abanyeshuri barimo bigishwa na polisi uburyo bazimya umuriro watewe na gaze yo gutekaho. Akaba ari uburyo bwiza polisi itegura mu bigo by'amashuri, yigisha abantu batandukanye uburyo bakwirwanaho bahuye n'ubwoko bw'inkongi y'umuriro.

Uyu mupolisi ari mu muhanda, ariho asobanurira abakoresha umuhanda uburyo bwo kugenda mu muhanda birinda impanuka. Akaba ari gahunda polisi y'u Rwanda yakoresheje n'ubu igikoresha mu gusobanurira abantu uburyo bwo kugenda mu muhanda bise gerayo amahoro.

Imbwa zifashishwa n'inzego z'umutekano mu gusaka no gutahura ibyaha bitandukanye. Izi mbwa zikaba zishobora, no kwifashishwa mu gutegura ibisasu bitandukanye.

Amatara ayobora imodoka ibizwi nka feruje mu ndimi z'amahanga. Akaba ari amatara ashyirwa mu masangano y'imihanda， aho imodoka zihagera bitewe n'ibara riri muri iryo tara zigatambuka cyangwa zigahagarara，abanyamaguru bakambuka.

Inzu y'ubucuruzi yafashwe n'inkongi y'umuriro. Inkongi z'umuriro akaba ari kimwe mu biza byibasira cane cane inzu z'ubucuruzi, izituwemo, akaba ari ngombwa ko inkongi z'umuriro tuzirinda, dukoresheje ubutabazi bwa polisi, bityo tukagabanya imfu cyangwa iyangirika ry'imitungo.

Umuyobozi wa polisi uhagaze bigaragara ko arimo areba abantu kugira ngo abahe ubutumwa na polisi, ba polisi akaba bacunga umutekano w'abaturage, ibintu byabo ndetse ikaba icunga n'umutekano wo mu umuhanda.

Aho umunyeshuri wari urangije mu ishuri rya gisirikare yakirwaga n'umubyeyi we cangwa umuvandimwe we ku munsi wo kurangiza amashuri.

Imodoka yifashishwa mu rwego rwa polisi mu kuzimya inkongi z'imiriro, aho bayihamagara habaye inkongi y'umuriro ikaza ikabafasha kuyizimya, bityo bikarinda ko umuriro wakwirakwira ahantu henshi.

Umuyobozi uhabwa igikombe ko yesheje umuhigo neza. Akenshi akaba ari umuco nyarwanda wo gushimira abayobozi baba barabaye indashyikirwa mu gukora ibikorwa byiza babikorera abaturage.

Ikigo cya polisi y'u Rwanda, aho abapolisi barimo bigishwa uburyo bwo kuzimya inkongi z'umuriro utandukanye, watewe na gaze, bifashishije kizimyamwoto n'ibindi bakoresha bazimya umuriro.

Umwe mu bahagarariye urwego rucunga amagereza ahazwi nka koregisheni savisizi mu ndimi z'amahanga hakaba harimo gutanga impanuro ku bantu arimo aganiriza.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda, bakaba ari ishami rya polisi riba rishinzwe umutekano wo mu muhanda no kurinda ko haba impanuka za hato na hato. Ndetse bakaba bahana abishe amategeko y’umuhanda cyangwa abagenda mu muhanda nabi.

Ahigishirizwa kuzimya inkongi z'umuriro. Akaba ari uburyo Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe inkongi z'umuriro rikoresha, rijya mu bigo cyangwa se ahatandukanye hakorera abantu benshi bigishwa kuzimya umuriro, cyane cyane ukomoka kuri gaze batekaho.

Inama y'abayobozi runaka bari bariho biga ku mishinga itandukanye, aho umuyobozi yari arimo yerekana ibyo bagomba kwigaho cangwa se aho bageze.

Inteko y'abaturage aho umuturage arimo atanga cangwa abaza igitekerezo abayobozi, kuri gahunda cangwa se ku byo abayobozi bamaze kubabwira .

Abaturage bateraniye imbere y'ubuyobozi, bwaje kubakoresha inama. Aha bukaba ari uburyo bwifashishwa kugira ngo abaturage, bagezweho gahunda za leta zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri kirimo gikorwamo inama z'abarezi cyangwa se abarimu hamwe n'abayobozi ba bo. Inama akaba ari ingirakamaro kuko zikemurirwamo ibibazo biba bihari, kugira ngo hongerwe ireme ry'uburezi.

Inama y'abaturage zi akaba ari inama zihuza abaturage n'ubuyobozi aho abayobozi batandukanye batangamo impanuro aha umuyobozi wa polisi akaba yararimo aha impanuro abitabiriye inama.

Umuyobozi urimo wigisha gahunda zitandukanye ukaba ari umuco w'abayobozi wo kwigisha gahunda zitandukanye abo bayobora, ndetse no kujya inama.

Abaturage bahuriye hamwe biyubakira ikiraro kibahuza bikaba bigaragaza ubufatanye bw'abantu, ko iyo abantu bafatanyije bashobora kugera kuri byinshi nko: kubaka ibiraro ,imihanda, amazu n'ibindi ndetse bikabafasha kuganira kuri gahunda zitandukanye zabateza imbere.

Inama y'abayobozi batandukanye b'inzego zitandukanye，zirimo urwego rwa daso rwifashishwa mu kunganira uturere mu gucunga umutekano，abayobora inama nk'izi zikaba ari ingenzi，kuko abayobozi bigiramo ibyafasha abaturage mu mibereho yabo.

Ikibindi kirimo inzoga ibira akaba ari igikoresho cyifashishwaga n'abakurambere aho baterekagamo inzoga nko mu munsi mukuru ndetse n'ubu rimwe na rimwe bikaba byibukwa umuco nyarwanda bakoreshaga basangira.

Umugeni ugaragiwe n'abakobwa bambaye kinyarwanda ubu akaba ari uburyo bukoreshwa iyo bagiye gushingira umukobwa aho bagenzi be baza bakamwambarira bakamuherekeza.

Umukecuru wambaye urugori ndetse n'urunigi mu ijosi, akaba ari imyambaro yakoreshwaga n'abantu ba kera biganjemo ab'igitsina gore mu kuberwa no kwambara bijyanye n'umuco nyarwanda.

Abakaraza barimo kuvuza ingoma, bakaba bambaye imyambaro yambara intore iyo zirimo guhamiriza cangwa se kubyina.

Intore irimo guhamiriza imbere y'abaririmbyi barimo bavuza amakobe bakaba barimo bayivugiriza amakobe bayiririmbira nayo ibyina.

Inkono ya kinyarwanda bavuga ku izina ry'inkono y'ibumba, akaba ari igikoresho cyakoreshwaga mbere n'abakurambere bateka ibyo kurya bitandukanye.

Igikoresho cakoreshwaga kera mu kunywa ibinyobwa bitandukanye, cane cane umusururu kikaba caritwaga uruho.

Intore irimo guhamiriza yambaye amayugi, akaba ari uburyo abanyarwanda babyina bahamiriza, bikaba biranga umuco nyarwanda, cyane cyane bikaba bikunda gukoreshwa mu mbyino gakondo ndetse n'iserukiramuco ry'ibihugu.

Ibyo kurya biri rukoma ni no mu gikoresho cyakoreshwaga mbere cyitwa imbehe. Akaba ari igikoresho cyakoreshwaga kibajwe mu giti, kikaba cyarakoreshwaga bariramo nk'isahani.

Ifoto iriho intore zirimo zikaraza ingoma. Akaba ari umuco nyarwanda kuva kera kugera na nubu ugikoreshwa aho mu mbyino nyarwanda hakoreshwa uburyo bwo kuvuza ingoma kozwe n'abakaraza.

Ibikoresho byakoreshwaga kera babika ibinyobwa cyangwa se bifashishaga bavoma amazi bizwi ku izina ry'ikibindi ndetse n'ibindi bizwi ku izina ry'uruho bifashishaga badaha cyangwa banywesha amazi cyangwa ibinyobwa.

Umugabo urimo acuranga igikoresho ca kera bakoreshaga bacuranga umuziki citwa umudori, ibi bikaba biha abantu b'iki gihe cangwa se abakiri bato, kumenya uko kera bakoreshaga ibikoresho bacuranga indirimbo zitandukanye.

Inka zakundaga kuba ibwami cangwa inka zizwi nk'izagaragazaga umuco nyarwanda, zikaba zizwi ku izina ry'inyambo, zikaba zikunda kuba ahantu hari umurage ndangamuco w'u Rwanda.

Inka zitwa inyambo, zigaragaza umuco nyarwanda zikaba zarakunze kugaragara cane cane ibwami, n'ubu zikaba zihari kugira ngo zigaragaze umuco nyarwanda. Ndetse abantu bakaba bazishura cane kugira ngo bamenye umuco nyarwanda.

Ikibumbano kigaragaza umugabo uteruye inyamaswa ku rutugu ufite n'icumu. Iki kikaba ari ikimenyetso kerekana uko mu minsi ya kera barushimusi bashimutaga inyamaswa bityo ubu bikaba byarabujijwe kugira ngo ubukerarugendo bukorwe neza.

Ahakorerwa ibikoresho bitandukanye bikozwe mu bihingwa by'imigano. Umugano akaba ari igihingwa gikunda gukoreshwa cyane bakoramo imitako, bikoresho, intebe, ameza, ndetse bikaba bikoreshwa mu mitako itandukanye.

Umukino w'urukiramende, aho uyu mukino ukinwa batambika ibiti bibiri, hanyuma usimbutse uburebure burushije abandi, akaba ariwe uba watsinze. Uyu mukino uba ari mwiza kuko uba uryoheye ijisho, kandi ukaba ukinwa n'abato ndetse n'abakuru.

Inka z'inyambo zabaga i Bwami， cyangwa se na n'ubu zikaba ziba ahererekanirwa umuco nyarwanda， cyangwa se mu bigo byerekana umuco nyarwanda， aho abantu bajya kuzisura mu ngoro，nko mu ngoro n'ahandi. Izi nka rero zikaba zaragaragazaga umuco nyarwanda.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo, bigaragaza umuco nyarwanda aho ababyinnyi biyereka n'intore bose babyina imbyino gakondo bityo bakagaragaza umuco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ahacururizwa ibikoresho by'ububoshi. Hakaba harimo ibiseke, imitako yo mu nzu iboha, hanyuma abayiboshe bakayitandika ku buryo ari ba mukerarugendo ndetse n'abandi babikeneye baza bakabigura, bityo bakinjiza amafaranga akabateza imbere.

Urugo umwami wo hambere yari atuyemo, rwabaga rurimo inzu nini yabaga iri imbere, n'izindi nzu ebyiri nini n'ntoya. Bikaba byaragaragazaga umuco uko abantu baturaga bikaba biri mu murage w'u Rwanda.

Ikigega ca kinyarwanda iki kikaba cyarifashishwaga, mu guhunika imyaka itandukanye. Kugira ngo itangirika cyangwa se ikaba yanyagirwa. Bikaba byarakoreshwaga mu bihe bya kera, bikaba rero bi bigaragaza ko abakera nabo bari bazi uburyo, bwo kubika imyaka ngo itangirika.

Ishusho yakozwe n'umunyabugeni, uburyo bwo gushushanya. Igaragaza umubyeyi wari wambaye ndetse yicaye, akikiye umwana we w'uruhinja. Uko byakorwaga kera ndetse na n'ubu.

Ubukerarugendo bushingiye ku muco, aho ba Mukerarugendo basuye abaturage, barimo bigana ko kera banyweraga ku ntango bigaragaza umuco nyarwanda.

Ibyo kurya bitandukanye biteretse ku meza, ndetse n'abantu biteguye kurya. Hari avoka, ibishyimbo, ndetse n'amateke. Bigaragara ko abantu bari bagiye ku meza kurya.

Ibikoresho byo mu gikoni byakoreshwaga kera, birimo ibyitwaga umudaho twagereranya nka rushe z'iki gihe. Ndetse n'ikigereranywa nk'ijagi y'iki gihe, bikaba byose byarakoreshwaga mu gikoni n'abantu ba kera.

Urugo rwa kinyarwanda aho rwabaga rurimo inzu ya kinyarwanda. Rukikijwe n'ibiti by'imbuto bitandukanye, akaba ari urugo rwa kera. Urugo rwa kera rwabaga rugizwe n'inzu y'ibyatsi, irimo ibyumba bitandukanye ifite imbuga n'urugo.

Umusaza urimo avuza igikoresho cya kera bita ikobe, imbere ye hari mikorofone bigaragara ko yari ari iwe mu rugo hari abaje kumusura, abanyamakuru.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'itabi ry'ibibabi ubu bukaba ari ubucuruzi bukunda gukorwa mu masoko yo mu caro aho abahinzi b'itabi barihinga bakaryanika ryamara kuma bakarizana kurigurisha.

Igikoresho cyitwa ishokaka. Akaba ari igikoresho abantu bifashisha basatura ibiti, bashakamo inkwi cyangwa se batema ibiti. Icyo gikoresho kikaba ari igikoresho gikoreshwa mu mirimo myinshi itandukanye.

Ifoto y'umunyabugeni, yashushanyijeho ibikoresho byakoreshwaga kera, harimo intebe ya kinyarwanda, isekuru, umuvure, urugo, n'insina, byakoreshwaga byose n'abantu ba kera.

Ahakorerwa ibijyanye n'umuco nyarwanda, aho hagaragara ibikoresho byakoreshwaga nk'inkono, intara, giseke n'ibindi. Akaba ari ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco nyarwanda, bikabafasha mu gushyira mu bikorwa imirimo itandukanye.

Umuvure igikoresho, cyakoreshwaga n'abakurambere, cyangwa abantu bo hambere bakaba baragikoreshaga benga inzoga cyangwa se bakagikoresha basangira inzoga, igihe babaga bateranye, bagashyiramo imiheha buri wese agashyira mu muvure akanywa.

Kuboha ikirago cangwa se umusambi akaba ari umuco wa kera ndetse na nubu ukaba ugihari aho abakobwa cangwa se abadamu baboha ibirago byifashishwa mu mirimo itandukanye mu kwanika imyaka mu muco gushingirwa ibirago birifashishwa cane akaba ari umuco nyarwanda.

Inkono igikoresho cyifashishwaga mbere ndetse nanubu hakaba hari aho kikifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye inkono rero ikaba yarakorwaga mu bitaka by'ibumba bamara kuyibumba bakayitwika yamara kuma bakayitangira kuyikoresha.

Aho babohera imitako ya kinyarwanda itandukanye. Ububoshyi akaba ari umwuga ushobora guteza imbere uwukora, kuko imitako ikundwa n'abantu benshi, harimo na ba Mukerarugendo, bityo akinjiriza gukora amafaranga akiteza imbere.

Intore ifite icumu n'ingabo irimo ihamiriza. Akaba ari ubwoko bw'ababyinnyi babyina umuco nyarwanda, ndetse n'imbyino gakondo, gusa bagaragaza umuco nyarwanda.

Intore ziri guhamiriza ahagaragara ko zirimo zerekana umuco nyarwanda, intore zikaba ari ababyinnyi babaga bambaye kinyarwanda, bagaragaza umuco nyarwanda.

Ifoto y'intore ifite ingabo n'icumu, bikaba ari ibikoresho byakoreshwaga kera ku rugamba, bikaba byarakoreshwaga n'ingabo zabaga ziri k'urugamba.

Ubukorikori bizwi nk'ububoshi, aho baboha inkangara zifashishwa mu bukwe nyarwanda n'abageni, bagiye gushyingirwa.

Inkono ya kinyarwanda ikiri nsha, iteretse aho bayiteretse bamaze kuyibumba. Ikaba rero ari igikoresho cifashishwaga cane mu gutegura amafunguro ndetse na n'ubu hakaba hariho bakiyikoresha, cane cane mu bice by'icaro.

Igikoresho cyitwa umuvuba kikaba cyarakoreshwaga ndetse na n'ubu kikaba gikoreshwa mu gushyushya ibyuma byifashishwaga mu bucuzi, kikaba gifasha umucuzi gushyushya icyuma kugira ngo agikoremo igikoresho ashaka.

Igikoresho cyitwa isekuro, cyakoreshwaga barimo gusekura ibintu bitandukanye, nk'imyaka ibigori, amasaka, imyumbati, kugira ngo bakuremo ifu yo kurya nk'ubugari n'ibindi.

Ikibindi cyakoreshwaga kera mu kubika inzoga cyangwa se ibindi binyobwa cyane cyane bikomoka ku masaka bakibikagamo cyangwa se cyifashishwaga mu gutura inzoga baturiye abageni.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga hambere. Bikaba birimo ibibindi byifashishwaga mu kubika ibinyobwa nk'inzoga, inkono bifashishaga mu guteka, n'ibindi bisa na byo, ibyo byose byakoreshwaga hambere mu myaka ya kera.

Inanga ikaba ari igikoresho cyakoreshwaga cera mu muco w'abanyarwanda, kikaba cyarifashishwaga abantu bacuranga indirimbo cangwa imiziki itandukanye.

Umukozi w'umunyabugeni wicaye ku ntebe ikozwe mu mugano. Umugano ukaba ari igihingwa kifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye, imitako itandukanye yaba ibyo mu nzu, muri saro n'ahandi.

Umuco ugaragaza uko abantu ba kera basangiraga iyo babaga bari mu birori bakoresheje intango cangwa se ikibindi cabaga giteretse hagati ahari kubera ibirori, hanyuma abakuru bagasangiriraho bavuga ijambo.

Ikibindi cyakoreshwaga mu muco wa kera batura inzoga cangwa babikamo inzoga, kikaba kirimwo imiheha ine, aho bakundaga guhuriraho abantu bari kuvuga ijambo mu minsi mikuru n'ubukwe.

Inka za kinyarwanda zitwa inyambo, zirimo zirisha mu kibuga. Inka zikaba zaragaragazaga umuco nyarwanda zikaba zinagaragara ahari inzu ndangamuco nyarwanda.

Ni forumu bakoresha babumba amatafari cangwa inkarakara ikoze mu mbaho.

Abana barimo gusimbuka urukiramende， akaba ari umukino njyarugamba，aho uwasimbutse uburebure buruta ubw'abandi ari we wabaga wabatsinze.

Urugo mu mbuga harimwo intebe za kinyarwanda, inyuma y'izo ntebe harimo icupa ry'amazi akunda gukoreshwa n'abantu b'abasirimu.

Umuntu uhagaze imbere y'inteko y'urukiko gacaca, rwifashishijwe mu kwihutisha vuba imanza, z'abari barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda, mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Ahakorerwa ibijyanye no gukontorora umuriro w'amashanyarazi hazwi nka susitasiyo mu ndimi z'amahanga. Hakaba ari ahantu abakozi b'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi bakorera kugira ngo bakontorore umuriro.

Petse; igikoresho cyifashishwa mu bukanishi, mu mashanyarazi, mu bubaji. Akaba ari igikoresho gikenerwa mu mirimo itandukanye ndetse no mu myuga itandukanye.

Icyuma gikoreshwa mubyo bita dinamo, icyo icyuma kikaba kiba muri dinamo imbere, kikaba cyikaraga kugirango ngo dinamo ibone gutanga amashanyarazi.

Inzu y' ubwami y' abahamya ba yehova akaba ari aho abahamya ba yehova bateranira hakaba hatitwa urusengero

Inyubako za Leta zitangirwamo serivisi zitandukanye, ubutabera, amavuriro. Akaba ari inyubako zagiye zubakwa, kugirango Leta ijye izitangiramwo serivisi, iziha abaturage.

Ikigo cy'ishuri aho abana bahurira bakiga babamo，bakaba bashobora kubamo n'aho basengera. Ibigo bakunda kubyita ibigo bya interina cyangwa se bodingi，aho abana bajya kwigamo bakamara igihe runaka bakazagaruka iwabo bavuye kwiga.

Inyubako za leta ziri ahantu hagaragara ko habera ibikorwa by'ubuhinzi, izi nyubako zikaba ari inyubako zihunikwamo imyaka cyangwa se ibihingwa bitandukanye, hakaba hari n'uruhurirane rw'abaturage bigaragara ko baje gufata imyaka.

Inyubako ishobora gukorerwamo nk'ishuri ry'bana batoyo, aba ari inyubako iba ifite amabara atandukanye atuma abana bahishimira.

Ahashyirwa amatangazo cyangwa se izindi nyandiko zerekana serivisi cyangwa se ibindi biba mu nyubako zikorerwamo amabanki, inzego za Leta n'ibindi.

Ahari inyubako itangirwamo serivisi za leta, aho abaturage bajya gushaka serivisi zitandukanye mu buyobozi, bityo abafite ibibazo bitandukanye bigakemurwa, byo bikaba ari uburyo leta yakoresheje yegereza abayobozi abaturage.

Inzu yanditseho adeperi agirize de pentekote nyakabanda ikaba ari urusengero rw'itorero adeperi. Insengero hakaba ari kimwe mu byo abanyarwanda bakunda gusengeramo, kandi zikaba zifasha Leta mu bukangurambaga bwinshi.

Iyi nyubako ikorerwamo n'ubuyobozi bwa leta aho bigaragazwa n'ibendera riri imbere y'iyo nyubako, ndetse n'amagambo yanditse kuri iyo nzu agaragaza ko ari ibiro by'akagari ka Jabo.

Inyubako ya Leta igaragaza ko hatangirwa serivisi za Leta, haba hari ibendera. Izi nyubako zikaba ari inyubako aho abayobozi bakorera abaturage, bakahabasanga baje kwaka serivise zitandukanye.

Intebe ziri mu urusengero akaba ari ahantu abantu bicara baje gusenga. Insengero akaba hari inyubako zihuriramo n'abantu mu madini atandukanye baje gusenga. Amadini akaba agira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Inyubako isengerwamo, insengero, kiliziya akaba ari ahantu hasengerwa, aho abantu bahurira bagiye gusenga. Amadini n'amatorero akaba afasha Leta muri gahunda zitandukanye, uburezi, ubuvuzi n'ibindi.

Inzu z'amagorofa zituyemo abaturage mu midugudu, iri mu mudugudu igiye amazu ageretse yitwa modovileji.

Ipoto y'amashanyarazi azwi ku izina rya hotetansiyo, akaba ari ifoto hubatswe mu buryo bw'urwego ndende cyane, inyuzwaho amashanyarazi agiye kure. Amashanyarazi akaba yifashishwa mu ibikorwa bitandukanye by'iterambere mu igihugu.

Mu rusengero aho abantu baturutse hirya no hino baza gusengera buri cumweru. Aha abantu baraza ukahasanga abayobozi, idini hanyuma bagafatanya gusenga Imana.

Urusengero aho abantu bahurira baje gusenga, akaba ari inyubako zikoreshwa n'amadini atandukanye. Mu madini n'amatorero bafasha Leta mu kugeza gahunda zayo ku bakristu bayo, bityo bakazimenyeshwa mu buryo butagoranye.

Inyubako nini ishobora gutangirwamo serivise za Leta, ndetse ikaba ishobora no gusengerwamo. Inzu rero akaba ari ikintu gikomeye cyane gikenerwa mu Rwanda. Kuko gikorerwamo serivise zitandukanye, zihabwa abaturage.

Inzu y'igorofa igeretse yo guturamo igaragaza ubwiza bw'imidugudu igezweho zo bakunze kwita modovileji. Ibi bikaba ari uburyo bwiza bwo gutuza abantu ku midugudu

Abanyeshuri bari mu kigo cy'ishuri mu masaha ya mu gitondo aho bakurikiye abayobozi babo ibyo barimo kubabwira bagomba gushyira mu bikorwa mu kigo cy'ishyuri.

Ikiliziya aho abakirisito gatolika bahurira basenga. Kiliziya gatolika ikaba ifasha igihugu mu burezi, ubuvuzi, n'ibindi.

Inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye zikenerwa n'abaturage. Zikaba ari inyubako zituma abaturage boroherwa, kubona serivise zitandukanye baba bakeneye.

Inyubako isengerwamo insengero cyangwa se kiliziya. Akaba ari inyubako abantu bahuriramo baje gusenga. Ndetse zikaba zifasha Leta mu kugeza ku baturage gahunda zitandukanye.

Ishuri ahantu abana bajya kwigira ubumenyi, bityo hakaba hari abarimu babigisha ibintu bitandukanye, birimo imibare, ikinyarwanda n'ibindi byinshi, bakazabafasha kwigirira akamaro mu buzima.

Igitanda kigerekeranye. Ubwoko bw'ibitanda bigerekeranye bukunda kuba cyane cyane ahahurira abantu benshi barara, urugero, nk'abanyeshuri, mu bigo by'amahugurwa n'ibindi.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima leta ikaba yarubatse ,inyubako kugira ngo abaturage bajye babona serivisi zitandukanye, zirimo z'ubuvuzi hafi yabo bitagoye kujya kuzishakira kure.

Igorofa ry'inyubako shobora gukorerwamo na Leta cyangwa se igakoreshwa n'inzu z'ubucuruzi, izi nzu zikaba zikunda gukorerwamo na Leta cyangwa se ibigo binini nka za Minisiteri n'ibindi.

Urusengero rufunze akaba ari inyubako isengerwamo n'abantu b'abakirisito batandukanye, bitewe na buri wese idini asengeramo. Amadini rero akaba agira uruhare mu iterambere ry'igihugu, ndetse no kuyumvisha gahunda abaturage za leta.

Aba bantu harimo abateranira ahantu berekana kampeyine, cyangwa se ihuriro ry'abantu berekana uburenganzira bwa muntu.

Umuyobozi wo mu nzego zegerejwe abaturage arimo abagezaho gahunda zitandukanye zibamenyesha uko gahunda za Leta zikora ndetse n'aho zigeze. Ubu bukaba ari uburyo bubaho aho ariho hose mu gihugu, kugira ngo abaturage bamenye gahunda za Leta.

Abantu bafunzwe bahagaze imbere y'urukiko baburana, ndetse n'abunganizi babo, n'inzego zose zirimo ababunganira n'abashinjacyaha bari mu rukiko.

Abaturage bari mu nama barimo umutegarugori uhagaze afite indangururamajwi cangwa se mikoro, arimo abaza cangwa se atanga ibitekerezo.

Inteko y'abaturage iri mu nama, umuyobozi arimo abasobanurira gahunda zitandukanye za leta ndetse n'uburenganzira bwabo. Inama rero nk'izi zikaba zifasha abaturage gusobanukirwa uburenganzira bwabo kuri gahunda zitandukanye bahabwa.

Mu baturage barimo gusobanuza umuyobozi wabo bamugezaho ibibazo bafite kugira ngo abibakemurire mu nama yari arimo abakoresha. Inama nk'izi rero zikaba zifasha abaturage mu kugeza ibibazo byabo ku bayobozi ndetse n'abayobozi bakegera abaturage.

Abaturage bari mu nama bahagaze ku murongo, imbere ya mikoro babaza ibibazo bafite, abayobozi babo kugira ngo babashe kubaha ubutabera. Niba hari n'abagize akarengane barenganurwe.

Moto zitangwa mu kwamamaza beka aho usubiza ibibazo cyangwa se uwakoresheje beka neza bamahemba moto.

Imodoka ipakiye umusaruro w'ibitoki yapfiriye mu muhanda ubwo yari itwaye umusaruro ngo iwugeze aho abawukeneye bari batandukanye.

Ahari imodoka zitwara abantu bakunza kwita tagisi vuwatire, izi akaba ari imodoka zitwara abagenzi ishobora kuyihamagara uri iwawe mu rugo ikaza ikagutwara, ikakugeza aho ugiye, akaba ari uburyo nabwo bwo gutwara abantu n'ibintu.

Ahategerwa imodoka za rusange hazwi nka gare. Hakaba ari ahantu imodoka zihagarara zigatwara abagenzi mu bice bitandukanye bitewe n'aho buri wese agiye. Kikaba ari igikorwaremezo cyiza cy'ingenzi kuko gifasha abaturage mu iterambere.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zikaba ari imodoka zikunda gukoreshwa cyane mu mijyi aho zorosha ingendo mu gutwara abantu benshi kandi zikihuta.

Imodoka iri mu muhanda unyuze hagati y'imirima yo mu gishanga. Umuhanda ukaba ari igikorwa remezo cy'ingenzi, kuko gituma ubuhahirane ndetse no gutwara abantu n'ibintu bigenda neza, mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze.

Imodoka ipakiye imifuka irimo imyaka itandukanye hakaba hari uburyo bwifashishwa mu kugeza imyaka itandukanye hirya no hino, haba aho ibikwa cangwa se ku madepo, akaba ari uburyo bukoreshwa mu gutwara ibintu.

Igare rikoreshwa muri siporo riri mu rugo garagara koho ryegetse kuri fondasiyo y'inzu yo mu caro, igare rikaba rikunda gukoreshwa muri siporo.

Indege itwara imizigo iri ku kibuga, ikaba ari indege ya sosiyete ya rwanda eya, ikaba ari uburyo retayashyizeho, bwo gutwara imizigo iyivana mu mahanga, iyizana mu rwanda cangwa se iyivana mu rwanda iyijyana mu mahanga.

Izi ni imodoka zitwara ibicuruzwa byambukiranya umupaka. Aha bigaragara ko ziparitse zitegereje kwambuka umupaka.

Indege ya sosiyete ya Rwanda eya iri ku kibuga. Hakaba ari uburyo bwifashishwa mu Rwanda mu gukora ubwikorezi bwo mu kirere n'ingendo zo mu kirere. Indege ikaba ihuza ibihugu n'u Rwanda biciye mu kirere.

Ubwato buri mu mazi butwawe n'abategarugori, bukaba bwifashishwa cane cane n'abagore batuye cangwa se abaturage batuye mu birwa byo mu mazi, mu mirimo yabo ya buri munsi bava guhinga cangwa se bajayo ndetse banatashe.

Imodoka z'amabisi ziparitse muri parikingi cyangwag se ahaparikwa imodoka hazwi nka gare. Hariho urujya n'uruza rw'abantu, barimo batega berekeza hirya no hino mu bice bitandukanye, bigaragara ko ahantu hatagerwa imodoka.

Gutwara abantu n'ibintu ku magare ndetse n'imodoka, bukaba ari uburyo bwose bwifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu ari ku modoka cangwa ku magare, bitewe n'ubushobozi cangwa aho umwe agiye.

Ahahagarara imodoka zitwara abagenzi hazwi nko muri gare, aha rero hakaba ari ahantu imodoka ziza zivuye hirya no hino zikahahurira zizanye abantu, ndetse zigasubizayo abandi bityo buri wese urugendo rwe akarurangiza.

Imodoka irimo ipakurura amabuye azwi ku izina rya garaviye, izi modoka akaba arimwe mu bifashishwa mu kugeza ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi hirya no hino. Bikaba biteza imbere ubwubatsi ndetse n'igihugu muri rusange.

Uburyo bwifashishwa n'abagenzi bakoza amakarita ku kamashini gakura amafaranga ku makarita ya bo, ubu buryo bukaba ari uburyo bwiswe tapandigo, bukaba bukoreshwa kugira ngo hagabanuke uburyo bwakoreshaga, abagenzi bishyura amafaranga mu ntoki kandi bishyura ibiciro birebire.

Mu gutwara abantu hifashishijwe amagare. Ubu akaba ari uburyo bwo gutwara abantu bukunda gukoreshwa cane n'abaturage ahadakunda kugera imodoka ndetse n'ahatari mu ngendo ndende. Bigafasha abaturage kugera aho bashaka, n'abatwara amagare bakabona amafaranga.

Abagenzi bari mu modoka, bagenda baganira，ubona ko bishimye， harimo umuntu urimo ubaganiriza，hakaba harimwo n'abanyamahanga bicaye inyuma，bukaba ari uburyo igihugu cyasizeho bwo guteza imbere inzego z'ubwikorezi cyangwa gutwara abantu.

Imodoka ya sosiyete ya Volukano itwara abantu n’ibintu. Imbere yayo, hari abakozi bayo. Aba ari sosiyete ikoreshwa cyane cyane mu gutwara abantu n’ibintu mu bice bitandukanye by’igihugu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, abantu bakaba, umuhanda akaba ari kimwe mu gikorwa remezo cy'iterambere, gituma abantu boroherwa mu buryo bwo kugenda ndetse n'imihahiranire.

Ahategerwa imodoka mu mujyi mu gihe cy'umugoroba aho abantu ari benshi muri gare ariko nta modoka ziri muri iyo gare bigaragara ko urujya n'uruza rw'abantu babaye benshi ariko imodoka ari nkeya.

Imodoka itwara abagenzi, ikaba ari uburyo bwifashishwa mu gutwara abagenzi hirya no hino cane cane mu mujyi wa kigali. Izi bisi zikaba zitwara abagenzi benshi kandi zikabatwara neza. Akaba ari bumwe mu buryo leta yashyizeho bwo koroshya taransiporo.

Imodoka z'amabisi ziri muri parikingi y'ikigo caziguze, ziteguye kuja gukorera hirya no hino mu gihugu.

Abayobozi bari barimo kwakira imodoka nshya zari zitarakoreshwa. Abazikoze bazimurikira abayobozi, bari bazikeneye kugira ngo zikoreshwe.

Umumotari utegereje ko yabona abagenzi ubu akaba ari uburyo bwifashishwa mu ngendo zitandukanye za buri munsi hirya no hino mu gihugu, bikaba bifasha cyane cyane mu iterambere ry'aba ari abakora umwuga w'abamotari ndetse n'abagenzi.

Aho abagenzi bategera imodoka，bakunze kwita muri gare， haba hari ibyapa bitandukanye by'amakampani，atandukanye atwara abagenzi，hakaba hariho n'ibyerekezo abagenzi berekezamo， bikaba bigaragara ko uwo munsi imodoka zari zabaye nke， kuko abagenzi bari babaye benshi muri gare.

Umukino wa basikete ukinwa n'abakobwa bikaba ari umuco mwiza. Byerekana ko abakobwa n'abategarugori nabo bashoboye kandi bafite uburenganzira bungana nk'ubw'abahungu muri buri kimwe cyose harimo n'imikino.

Abantu bakora siporo bari ahitwa nko kuri siteje cyangwa se ku rubyiniro, bazamuye amaboko bishimira intsinzi. Siporo ikaba ari nziza, ikaba ifasha mu kurinda indwara ndetse no kumvisha abaturage gahunda zitandukanye za Leta bahuriye hamwe.

Abakobwa basiganwa mu kwirukanka. Bikaba bigaragaza ko abakobwa nabo bashoboye siporo izo arizo zose, yaba kwiruka n'izindi siporo. Abakobwa bakaba berekana ubushobozi bwabo ko na bo bashoboye nka basaza ba bo.

Umuhanda urimo uberamo isiganwa ku magare aho abaturage bawuturiye bahagaze ku mihanda bishimira kureba uwo mukino cyangwa se iryo siganwa ryaje kunyura mu muhanda.

Sitade aho abantu bateraniye barimo bareba umupira w'amaguru. Akenshi ibibuga by'umupira sitade bikaba ari ibikorwa remezo bituma abantu bishima kuko bafasha muri siporo zitandukanye.

Abafana bari mu kibuga gikinirwaho imikino itandukanye. Baje kureba ibirori cangwa se, imikino yabereye ahitwa muri sitade.

Umukinnyi wari urimo akina umupira bita handiboru, akaba ari umukino ukinishwa amaboko, aho umukinnyi afata umupira aka wudunda, aka wirukankana, aka wutera mu izamu bikaba ari umukino mwiza ndetse n'abakobwa bashobora gukina.

Umukino w'intoki bakina bicaye aho mu ndimi z'amahanga uwita sitingi voreboro ukaba ari umukino abantu bakina bicaye bakinisha intoki ukaba ari umukino uryoheye ijisho kandi ukundwa mu Rwanda.

Abakinnyi b'umukino w'intoki witwa handiboro, bari mu kibuga ndetse bari hamwe n'abafana babo.

Aho abantu bogera hazwi nko kuri pisine, akaba ari ahantu bogera iyo basohotse. Bagiye mu mahoteri hirya no hino, hakaba hafasha abantu mu gukora siporo zo koga, ndetse no kuruhura abantu umubiri.

Isiganwa ry'amagare rica mu muhanda, abana bavuye gutashya inkwi barireba, rikaba rikorwa ku magare ya siporo kandi igare ni siporo nziza umuntu wese ashobora gukoresha.

Abatwara amagare akoreshwa mu masiganwa azwi nka turu. Bari mu kigo cyabo biteguye guhaguruka kujya mu myitozo. Umukino w'amagare akaba ari umukino wateye imbere mu Rwanda, ndetse n'abanyamahanga bakaba baza, kubikorera mu Rwanda igihugu kikamenyekana.

Amabendera ane y'igihugu azamuye. Ibendera akaba ari kimwe mu biranga igihugu，ritandukanya igihugu n'ikindi， ibendera rero rikaba ari ikirango gikomeye，kuko iyo uribonye uhita umenya ko ugeze mu kindi gihugu iyo ridasa n'igihugu waruvuyemo.

Umukino uzwi ku izina rya sitingi vole cangwa se umupira w'amaboko bakina bicaye ubwo wakinwaga abafana barimo bawureba.

Umukinnyi w'umukino basikete, aho arimo anaga basikete muri paniye, basikete akaba ari umukino mwiza wo mu bwoko bwa siporo, aho umuntu uyikina aba ari siporo nziza iryoheye ijisho.

Itangwa ry'ibikombe ku makipe yabaye aya mbere muri sitade, aho abayobozi bari barimo bashimira ikipe yatsinze neza imbere y'abafana batandukanye.

Ahakinirwa umukino wa tenisi, aho abakinnyi barimo bareba bagenzi babo bari mu kibuga, nabo bategereje ko umukino urangira ngo nabo bakine.

Siporo yo koga akaba ari siporo abantu bakora barushanwa boga mu mazi. Iyi siporo ikaba ari siporo nziza cyane kuko abantu bayikunda ari benshi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kigezweho kizwi nka sitade, kikaba ari igikorwa cy'iterambere kuko gituma igihugu kimenyekana muri siporo, mu mikino y'imbere mu gihugu, cangwa se imikino yo mu mahanga.

Umukinnyi urimo akina umukino wa tenisi. Tenisi akaba ari umukino ukinwa n'abakuru n'abato, kandi ukaba ari umukino mwiza utagoranye ndetse udakinirwa no ku mwanya munini w'ubutaka. Siporo rero akaba ari ingenzi mu buzima.

Abafana barimo mu kibuga bafite amabendera y'igihugu bigaragara ko barimo gufana ikipe y'igihugu yari irimo gukina imikino n'indi kipe yari ivuye hanze y'igihugu. Gufana bikaba ari byiza bituma abakinnyi bagira ingufu

Abasore batatu barimo gufana umupira. Bari muri stade bafana umukino, barimo bareba. Ubona ko bishimye, bigaragaza ibikorwaremezo ko bituma abantu bishima.

Ikipe y'abakobwa yiteguye gutangira umukino iririmba indirimbo yubahiriza igihugu kugira ngo itangire umukino. Abakobwa akaba nabo ari abantu bashoboye mu bikorwa bya siporo kandi bakaba babikora neza.

Abasiganwa ku magare bari mu muhanda ahantu hazamuka ibizwi nka turu. Aha basiganwa hakaba hazamuka, akaba ari umukino uryohera abanyarwanda cyangwa se abandi baturage b'ibihugu biba byabereyemo irushanwa.

Umukinnyi wa tenisi arimo gukina ,tenisi ikaba ari umukino ukinwa cane mu rwanda n'abato cyangwa abakuru ,ukaba ari umwe mu mikino ukunda gukorwa muri siporo.

Urubyiruko rw'abana bato bakunda siporo bahize abandi, bituma abandi bashobora kubareberaho nabo bagakunda siporo, mu rwego rwo guteza imbere siporo.

Inzira zo ku ruhande rw'umuhanda zinyurwamo n'abagendesha amaguru, kugirango badahura n'imodoka mu muhanda. Izi nzira zikaba zigabanya impanuka, zishobora kubera mu muhanda kubera uruja n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga.

Inzira abanyamaguru banyuramo, ziba ziri ku mpande y'imihanda, akaba ari uburyo bwo kugenda mu muhanda, aho abanyamaguru batanyura hamwe na hanyura ibinyabiziga, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.